Abagabo bambaye imipira y'umweru bahagaze imbere yinzu ndende, inyubako igeretse inshuro nyinshi ifite amadirishya arimo ibirahure, bose bafashe ukuboko barakuzamura bagushyira impande y'inda.

Abantu bahagaze mu gashyamba k'udutsi tukiri dutoya, umwe asa n'umanitse amaboko, undi aripfumbase, bamwe baratunguka inyuma, abandi bageze imbere, uwambaye ikoti ry'ikositimu, ni uwa kabiri uturutse ku murongo imbere.

Abantu bari ahantu hamwe bambaye upfukamunwa, ni abagabo, batatu barapfukamye bari gusenga, abandi bahagaze inyuma bambaye ikositimu iz'umukara n'iz'ikivuzo.

Abantu barapfukamye bamwe bamanitse amaboko abandi bafite indangururamajwi ku munwa. Inyuma yabo hari umusaraba ku gikuta ndetse n'agasaraba gatoya kameze nk'agateretse ku meza. Aho bapfukamye hameze nkaho ari ku ruhimbi.

Abantu bari kugenda hagati y'inzu z'ubucuruzi hameze nk'aho ari mu muhanda, imbere y'inzu hari matela ndetse n'intebe zigerekeranyije, hirya hari imifuka ipanzemo ibintu, abantu bari kugenda bameze nk'abari kugura, hejuru yabo har'insinga z'umuriro w'amashanyarazi zifashe ku mapoto impande y'izo nzu.

Umuntu uri kuri moto, iri mu muhanda wa kaburimbo, hagati mu muhanda harimo akarongo k'umuhondo kagabanya umuhanda mo kabiri, ku ruhande rw'aho hari utuntu dutangira umuhanda tuwuzengurutse dutandukanya umuhanda ndetse n'inzira y'abanyamaguru, inzu ndende ifite akabaraza kariho utudirishya iri haruguru y'umuhanda.